Umuco nyarwanda ni ikintu usanga abagabo, n'abagore babyinnye bahimbawe bakaza kwhera ijisho n'abaturage bikaruhura mu mutwe, abakaraza bo rwose bakavuza ingoma nera neza.

Kera banywaga inzoga sha, inzoga ihari bakanywesha ibibindi. None ubu basigaye banywesha uducupa. Uducupa kandi tuba turimo udusuru dukeya. Ni ikintu cya mbere kiza mu muco nyarwanda.

Bimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda harimo n'inka. Inka yakoreshwaga mu gushyingira berekana ibijyanye n'umuco nyarwanda kugeza na n'ubu.

Kuvuza imyirongi byari ibya kera, none ubu nsigaye mbona mu bukwe batambuka bari kuvuza bino bintu bakabihuha, abantu bagatambuka mu bukwe bari kubibavugiriza. Eh! Ibya kera ni byo bigenda byongera bikagaruka. Biragenda bikongera bikagaruka.

Transport it is a beautiful work wich help us to work easier in communication, transportation, movement of women and man in the world.

Ubu bwato kubugenderamo biraravuna. Kera tukibugenderamo, byaratuvunaga, heee, umuntu akagendera mu bwato afite ubwoba, ariko ubungubu twarakuze, dusigaye tugendera mu bwato nta bwoba.

Ibi bimodoka bibagahehe ra? ibimodoka bya horizoni byajyaga biza inaha. Ntago twabibonaga, none ubu nsigaye nja nko mu muhanda nkabibona.